Gushaka ubwishingizi bw'imitungo ni ikintu cyiza. iyo nzu yafashwe n'inkongi y'umuriro. ariko nyirayo aramutse adafite ubwishingizi byamugora, kuko ibintu byari birimo byose byangiritse kandi n'inzu yahomotse.

Kwegera abaturage ku inzego za Leta, ni bimwe mu bifasha abaturage gukemura ibibazo byabo. Iyo polisi zegereye abaturage zikamenya ibibazo biri mu baturage, bifasha ubuyobozi mu miyoborere myiza, bigafasha n'abaturage kwishimira ubuyobozi bafite.

Imyiyerekano y'ingabo z'igihugu cyacu, ni imyerekano iba isa neza, ni imyerekano iba ibereye ijisho. Ingabo z'igihugu cyacu tuziri inyuma, nizikomeze mu gucunga umutekano w'igihugu cyacu neza.

Daso ni inzego z'umutekano zungirije polisi, izi daso zifasha abapolisi mu kurwanya abazunguzayi kuko abazunguzayi badasora kandi gusora ari byo byongera iterambere ry'igihugu bigafasha n'ibikorwa remezo.

Izi ni kamera zikamera mu buryo bwo gucunga umutekano. Bitewe n'uko hari abajura bashobora kwiba ariko kamera zikaba zabifashe, izi camera bazifashisha bakontorora ahantu mu kuhacungira umutekano.

Ingabo z'Igihugu ziba zikwiriye kuganirira hamwe, kugira ngo bamenye icyo igihugu gikeneye bamenye n'ukuntu bakora akazi kabo ko gucunga umutekano, babiganiriye hamwe bamenye n'ibibazo bihari, bakungurana ibitekerezo mu buryo bwo gucunga umutekano w'Igihugu.

Abantu bakora aka kazi ka viyupi bibafasha kwiteza imbere, viyupi ikora imirimo igiye itandukanye kuko viyupi isibura ahantu hazibye h'imigenda, viyupi ikora mu muhanda aka kazi kabo kabageza kuri byinshi, iyo bahembwe bagira ibibazo babasha kwikemura bakabasha no kwiyishyura mituweli, bityo bikabakura mu cyiciro cya mbere bakiteza imbere.

Ndi kubona ari inteko y'abaturage bafite abayobozi bari kubabwira amategeko n'amabwiriza bagomba kugenderaho, bunga n'imiryango bamenya n'ibibazo biba biri mu baturage.

Izi ni ingoma zikoreshwa bari kuvuza ingoma ahantu habaye ibirori runaka. Abantu bakoresha zino ngoma ni abantu baba bari kubyina imbyino za kinyarwanda. Imbyino za kinyarwanda nizo zikoreshwa iyo bari kuvuza zino ngoma

Iyi ni imyubakire y'ibigega bya kera. Ibigega byabafashaga abaturage mu kubika imyaka basaruye, kugira ngo bizageze ikindi gihembwe cy'ihinga, bikimeze neza. Ibigega byabikaga imyaka neza, nibyo abaturage bifashishaga mu gihe cya kera.

Kugosora ibishyimbo ni uburyo bwo gukuramo imyanda. Kugosora ibishyimbo bikorwa n'abakobwa, abari, kugira ngo ibishyimbo babikuremo imyanwanda, bifashisha agakoko mu buryo bwo kugosora.

Uyu atwereka ukuntu abanyarwanda bacu ba kera babaga bogoshesheje imisatsi ya bo neza, mu buryo bwiza kandi buconze neza, ibi bitwibutsa umuco wacu nyarwanda no kuwusigasira.

Izi n'ingumi ziba zigosora ibishyimbo, nguko bagosora ibishyimbo bakura imyanda mu bishyimbo. Bagakuramo utubuye n'udusapfu twose tuba twavuye mu bishyimbo bari kubihura. Uko bakwita kugosora ibishyimbo.

Umuco w'igihugu cyacu ugomba gusigasirwa. Ibingibi tuba tugomba kwibuka y'uko umuco wacu ari wo nyambere muri byose, udutandukanya n'abanyamahanga. Uyu muco utuma tugira uko tugaragara imbere y'abandi.

Ibi ni ibikoresho gakondo byakoreshwaga mu gihe cya kera. Ibi bikoresho ukeneye kubireba wabisanga mu nzu ndangamurage y'igihugu. Inzu ndangamurage ibikoresho bya kera byose byakoreshwaga wabihasanga.

Aba ni abakobwa bazi gukaraza. Abakobwa bavuza ingoma ibintu bikaba byiza, abantu babyumva bakumva ari ibintu biryoheye amatwi, kandi babafasha kwishimisha mu buzima bwabo.

Aba bantu bavuza ingoma neza mu buryo bwiza. Mugomba kwitabira ibitaramo by'abantu bavuza ingoma nka gutya, nibwo wumva uburyohe bw'imbyino za kinyarwanda, ukuntu ziba zigendetse neza.

Kwitabira ibirori biba byateguwe, mu kugaragaza umuco nyarwanda, byagakwiriye kuba ibya buri wese. Twitabira ibirori biri ahongaho bigezweho, ariko ibirori by'umuco wacu nyarwanda ntabwo tubikunda. Bigomba kwigishwa mu rubyiruko, kugira ngo bakabereka n'ibyiza byabyo, kugira ngo babisigasire.

Ibi n'ibikoresho bya gakondo bifashishaga mu buryo bwo gutegura ibintu byinshi bigo bitandukanye, babinyweragamo yari amasahani meza yakoreshwaga mu buryo bwiza bwa gakondo.

Uyu ni umuhoro ukoreshwa mu bintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo gusatura inkwi zo gucana, harimo kwahira ubwatsi bw'amatungo, uyu muhoro ukoreshwa mu bintu byinshi bigiye bitandukanye.

Aba ni abakobwa babyina imbyino za kinyarwanda, aba bakobwa baba bagaragara neza, iyo bari kubyina izi mbyino z'umuco wacu, izi n'imbyino ziryoheye amaso tugomba kuzajya twitabira ibitaramo, birimo imbyino nyarwanda kugira ngo tubone ibyiza by'iwacu.

Umudugudu mwiza wa kijyambere, umudugudu ugezweho urimo amazu meza. Nabashishikariza gutura mu mudugudu kuko umudugudu uba ufitemo isoko, ufitemo ibitaro, ufitemo n'amashuri. Abantu batuye mu mudugudu ntago bagorwa n'ibindi bintu byinshi bakenera.

Ubu ni uburyo bwifashishwa mu bworozi bw'inzuki, kikaba cyitwa umutiba. Ubu ukozwe mu biti, ukaba wifashishwa mukororeramo inzuki mu buryo bw'iza kandi bwizewe.

Iyi ni isekuru. Isekuru bayisekuriramo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Imyumbati y'ubugari bayisekurira muri iyi sekuru. Imiti ya gakondo hano muri gisekuru bayisekuriramo. Ndetse n'sombe. Ibintu byo mu isekuru biba bifite ubuziranenge, kuko biba bitaranyuze mu mashini.

Abakobwa bari kugaragaza umuco w'igihugu cyacu. Bafashe inkoko. Izi nkoko zikoreshwa bari kugosora, kubera ko abakobwa bicaraga mu kirambi, akaba ari bo bajya kugosora. Bafashe inkoko zakoreshwaga mu kugosora.

Uku nguku ni ko baboha ibirago. Ibi birago byifashishwa umuntu yicaye mu rugo, akakirambura akacyicaraho, akagikoreraho imirimo igiye itandukanye, kandi ibirago unabyanikaho nk'ibihingwa. Ibishyimbo kugira byume neza, n'impungure kugira ngo ubifashe kuma neza. Urambura ikirago neza ukanikaho ugira ngo bitaza kwangirika.

Ababyinnyi babyina imbyino nyarwanda, izi ni imbyino z'iwacu zidufasha mu gusigasira umuco w'igihugu cyacu, izi ni' imbyino nziza zibereye ijisho, zibereye kuzireba, mbese na ba mukerarugendo barazikunda.

Iki ni ikiraro cy'inka. Iki kiraro ucyubakira amatungo hafi n'aho utuye, kugira ngo ujye ubona uko uza gusura amatungo yawe. Ahangaha nta bwo yanyagirwa, uhakorera amasuku, wahakorera amasuku amatungo yawe akabamo atuje kandi ari ahantu heza.

Ibi ni ibishushanyo biri kutwereka ukuntu abakobwa ba kera babyinaga neza, ndetse ntabwo tugomba kureka umuco wacu wa kera, tugomba kuzajya tugira ibitaramo bitwibutsa uwo muco wacu wa kera tukabisigasira, n'abagabo bazi kuvuza ingoma mu buryo bwiza.

Aha ngaha ni ku rusengero ni urusengero rwubatse mu buryo bugezweho. Hari parikingi, hari ahantu bagurira amayinite bitewe n'icyo ukeneye. Aha ngaha ni ahantu heza hitaruye hafite ubwisanzure

Aha ngaha ni ahantu hari ishuri rya kaminuza. Ni ishuri ryiza risa neza, riherereye mu majyaruguru. Iri shuri ryigisha ibintu byinshi bigiye bitandukanye, abanyeshuri twabashishikariza kugana mu kwiga mu Ntara y'Amajyaruguru, hari ibigo byiza bigiye bitandukanye, kandi hari n'akayaga keza gaturuka ku birunga bya Karisimbi.

Ahangaha ni ku mashuri. Ahagaha kuri aya mashuri hari ikibuga gihagije, abana bakisanzuramo, bakanakiniramo muri iki kibuga, iki kibuga ni cyza kubera ko gifasha abantu mu kwisanzura.

Iyi nzu ni iya kera, ubwo kera niho bubakishaga amabuye. Aya mabuye akoze mu bwoko bw'amakoro, amabuye barayafata bakayaconga neza, iyo bayaconze neza bagakoresha mu kubaka, nk'uko umuntu akoresha amatafari.

Aya mahuriro y'imihanda ari ahantu heza, ari ahantu hasa neza hafi n'ishamba rya Karisimbi, ari ahantu hari amahumbezi, abanyabiziga bagomba kuzajya bagendamo neza kugira ngo batazahurira muri aya mahuriro y'umuhanda bigateza impanuka.

Aya ni amadarapo y'igihugu cyacu, iterambere ryacu, igihugu cyacu, ubumwe bwacu, ibituranga harimo n'amadarapo yacu, muri ibingibi harimo amadarapo ari mu birangantego biranga igihugu cyacu.

Inyubako nziza z'igihugu cyacu. Iri ni iterambere ry'Igihugu cyacu, ni inyubako nziza zigezweho, umuhanda mwiza, ibi ni ibikorwa remezo by'Igihugu cyacu.

Ikiraro cyubatse mu buryo bugezweho, iki kiraro gituruka mu bikorwa remezo, dukwiye kuzajya dutanga umusanzu kandi abacuruza bagasorera ku gihe, kugira ngo amafaranga yo kubaka ibikorwa remezo nk'ibi aboneke.

Urusengero adeperi, abantu benshi inaha turwita urusengero rw'abapene. Abapene ni urusengero rwiza, uru rusengero rurasa neza, hariho korari iririmba neza, ni urusengero rwiza.

Iki ni igishushanyo cya Bikiramariya, iki gishushanyo gifasha ku bantu bizera kuri bikira mariya, kibafasha mu kuyobora ahantu hari urusengero rw'abakatolike, iki gishushanyo abantu bizera Bikiramariya, baraza bakagisura bakagira ibyifuzo bagitangiraho.

Uyu mudugudu ni mwiza, umudugudu ufitemo amazu y'abaturage urimo amashuri, urimo isoko, ibi ni bimwe mu bikorwa remezo by'igihugu cyacu . Mu majyaruguru iyo bubatse umudugudu bashyiramo amashuri, bagashyiramo isoko, bagashyiramo n'ibitaro.

Gusenga ni byiza. Abantu benshi twateranye twaje mu nzu y'imana twese icyatuzanye abatarugusenga gusa, bose harimo abateranyemo abajura, abanyeshari bagiye kujya gusenga tujyanye kugira tubashe kubaha imana ibiduhemo umugisha.

Inama iri kwita ku bintu bijyanye no gukoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga, no kwigisha abanyeshuri ku bijyaniranye no kwiga ibijyanye n'imyuga.

Iki ni ikigo cya Plisi gishinzwe kwita ku bibazo by'abaturage. Umuntu wagize ikibazo yagana kuri iki kigo, hariho abantu yahasanga bakamufasha gukemura ikibazo cye, Ahangaha ni mu karere ka Musanze, mu ntara y'Amajyaruguru.

Iyi nzu yubatse neza kuko yubakishijwe amakoro. Aya ni amakoro bubahisha inzu bakayubakisha ku murongo iyo bamaze kuyubaka neza bateramo akarangi bakabona ni inzu igaragara neza kandi isa neza.

Inteko y'abaturage ibamo kungurana ibitekerezo, ibibazo biri mu baturage bikamenyekanira mu nteko y'abaturage. Tugomba kujya twitabira inkiko z'abaturage twese tukajya mu nama zabaye, zateganyirijwe kugirwamo, kugira ngo bidufashe mu kumenya aho igihugu kigeze.

Aha habereye inama ku rwego rw'umurenge wa Rusarabuye, aho abaturage bateraniye hamwe ngo bakemurirwe ibibazo byabo, no gutanga ibyifuzo baba bafite ku butegetsi.

Aha ngaha ni muri gare, izi gare zidufasha kumenya ahantu twategera imodoka mu buryo bworoshye, ku buryo waharangira n'umuntu utahazi akaba yamenya ahantu yafatira imodoka, kuko ahantu ugiye hose uhasanga imodoka ihakugeza.

Uyu muntu atwara igare akaritwaraho abagenzi yashyizeho intebe nini, kuko iyi ntebe imufasha kuba yatwaraho n'abagenzi barenze umwe, bakamufasha kwibeshaho akaba yava mu cyiciro cya mbere, agateza n'abandi imbere.

Bisi nini, nziza, yifashishwa mu gutwara abagenzi babavana mu gace kamwe babajyana mu kandi gace, iyi bisi wayifashisha usura ibyiza biri mu ntara y'amajyaruguru.

Aha ni muri gare z'abaturage hari imodoka nyinshi zigiye zitandukanye kugira ngo umugenzi ataza kubura imodoka agenderamo kandi buri kampani yayo bagiye bambaye imyenda ibagaragaza, ugomba gutega imodoka wumva ushaka.

Iyi moto ni moto nziza igezweho, iyi moto ikoreshwa n'amashanyarazi, ni moto yafasha umumotari mu kubona uko asevinga ngo amafaranga igihe, esanse yahenze, umuntu ufite iyi moto nta kibazo aba afite, kubera ko iyi moto ikoreshwa n'amashanyarazi.

Aha ngaha ni ku kibuga cy'indege i Kanombe. Aha ngaha kuri iki kibuga cy'indege, ni ahantu heza, haberaye ijisho, tugomba gusura ibikorwa remezo byacu, kugira ngo tumenye aho biba biherereye.

Goriragemuzi ni umukino w'amahirwe, izi moto ziri ahangaha zose zitegereje abaza kuzitwara, dufite kugana goriragemuzi kugira ngo tubone moto zidufasha mu kuyiteza imbere.

Uyu muhanda w'i Kigali ugira ambutiyaje y'imodoka, iyi ambuteyaje y'imodoka iterwa n'uko abakozi bose baba bari kujya mu kazi cyangwa bavuyeyo, hanyuma imodoka zikaba nyinshi mu muhanda, polisi y'igihugu iba icunga umutekano, kugira ngo irebe ko haba harimo abari bushake kutagendera ku mabwiriza bigateza impanuka.

umurimo wakora uwishimiye wagufasha gutera imbere. uyu muntu akora umurimo wo gutwara abagenzi akoresheje igare. Ni umugore wigize, kandi witeza imbere mu byo akora.

Ahangaha hari isoko ry'ubucuruzi rya Musanze, aha ngaha ni mu mahuriro y'imihanda, aha niho imodoka na moto n'ibinyabiziga byose bica iyo bivuye muri gare cyangwa bijyayo. Hari n'ubucuruzi, hari n'isoko ryiza rya kijyambere, riri aha ngaha mu mujyi wa Musanze.

Gare nimwe mu iterambere ry'igihugu cyacu, kuko gare zihuriramo abagenzi bagiye batandukanye, bakajya kuhategera, umuntu akava mu rugo, azi neza ahantu ari busange imodoka iri bumujyane ahagiye. Gare nziza iboneka mu karere ka Musanze, mu majyaruguru y'u Rwanda.

Ahangaha ndi kubona ari mu muryango winjira muri gare y'i Rubavu ku gisenyi. Aya ni amarembo yinjiramo muri gare.

Uyunguyu ni umuhanda uhurirwamo n'abantu bagiye batandukanye, n'imodoka, kuko ari umuhanda ujya mu mujyi. Uyu muhanda ugana imihanda yose, abantu bavuye mu isoko bawunyuramo, ndetse n'abantu bari gutaha.

Imodoka ziba zigomba kugendana umuvuduko muke, kugira ngo bidateza impanuka mu muhanda, iyo zigendeye ku muvuduko ukabije biteza impanuka, kandi tugomba gushishikariza n' abatwara imodoka kwirinda ibisindisha, kugira ngo twirinde impanuka.

Aha n'ihantu bari ku masiganwa y'igare, urabona ko uyu muntu ariwe uri imbere, aba n'abaturage baje kureba abantu bari mu masiganwa y'igare.

Kuruwaruje ni ikigo kidufasha mu mibereho myiza. Kuko Kuruwaruje ni ikigo gitanga ubutabazi bw'ibanze, iyo umuntu agize akabazo akaba akomeretse bitunguranye, Kuruwaruje ihita imufasha akagera kwa muganga bamukoreye ubutabazi bw'ibanze.

Isiganwa ry'amagare ni ikintu cyiza kibera mu gihugu cyacu kuko byongera ba mukerarugendo, bakaza baje kureba isiganwa ry'amagare bikatwongerera mu iterambere ry'igihugu cyacu, bitewe n'agace bagiye bageramo bakirebera n'ibyiza bikikije igihugu cyacu harimo ibirunga n'ingagi.

Irushanwa ry'umupira w'amaguru ni ryiza kuko riryohera amaso rigafasha abantu gutuza mu mutwe kugira babashe guhugira mu bibanezeza hanyuma babone kwitegura umwanya wo gusubira mu kazi kabo batuje bakagakora neza kubera ko nta bibazo biba bibanye.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru badufasha mu kwishimisha iminsi ikicuma, ndetse no mu iterambere ry'igihugu, gukina umupira bigira umumaro. Byongera imbaraga n'ubushake no gukunda igihugu.

Marato ni isiganwa rikoreshwa n'abantu bakoresheje amaguru mu kwibuka. Iri rushanwa rigira byinshi rigeza ku baririkora kuko ribafasha mu gutera imbere kwabo, kandi rigira n'icyo rimarira igihugu, kuko iyo umuntu atsinze igihugu cye kiranezerwa.

Uyu mukobwa akora isiganwa ryo kwiruka rya marato, ryagize aho rimukura rigira aho rimugeza, ryamuteje imbere kubera kwiruka, ni umwe mubasitari igihugu gifite biteje imbere.

Abakinnyi b'umupira bafasha abantu mu kwishimisha, aba ngaba bari gukina umupira. Umupira ni ikintu cyiza, gifasha abantu mu gutuza mu mutwe, bakishimisha kugira bibafashe mu gukora ibindi bintu batekanye.

Iyi nzira niy'abagenzi bagenderamo, bikabarinda kujya mu muhanda, bikaba byarinda impanuka zibera mu muhanda, kubera ko umugenzi aba afite inzira agenderamo yiwe, ni ibinyabiziga nabyo bikagira aho bigendera.